Umuntu uhetse ipombo yifashishwa mu guhungira imyaka, mu mutwe afite igitambaro ahagaze mu muceri arimo arawutera umuti, hirya ye hari ishyamba ry'inzitane.

Umugabo uhagaze uhetse ipombo yifashishwa mu guhungira imyaka, yambaye udufugantoki tw'umutuku, arimo gutera umuti ibigori bikiri bito hirya ye hari ibiti byazamutse birebire.

Umugore uhagaze mu bigori bikiri bito bitarakura cyane, ahetse ipombu, ari kubitera umuti, mu rwego rwo kubirinda kwangirizwa n'udusimba duto.

Umuntu uhagaze wambaye agapfukamunwa n'ingofero n'udufungantoki, ahetse ipombo yifashishwa mu guhungira imyaka, ari gutera umuti ku mikindo.

ukuboko k'umuntu gufashe ifi mu kiganza. Hirya hari ibyatsi ndetse n'imisozi ariko kandi hari n'amazi.

Umugore wicaye mu bwato afite ingashyi mu ntoki, ari kugenda agashya. Inyuma ye kandi hari ubundi bwato burimo ibintu bipanzemo.

Abantu batanu bahagaze, uwa gatandatu arunamye, harimo abagore babiri ndetse n'abagabo bane, imbere yabo hari ibyatsi, inyuma yabo hari amazi yanduye, hirya y'amazi hari ibiti ndetse hari n'ibyatsi.

Amazi arimo ibyatsi ,harimo n'ibintu bimeze nk'ubwato, inyuma y'ayo mazi hari ibyatsi, inzu, insina' inyuma y'izo nzu hari imisozi ,ibiti ,ndetse n'ibyatsi.

Abagore n'abagabo batonze umurongo, bikoreye icyayi bavuye gusarura, bakikoreye mu bitaro.

Igiti cy'ikawa zeze zirasa umutuku, gifite amashami menshi kandi buri shami rigiye ririho imbuto nyinshi, gifite amababi y'icyatsi kibisi.

Abagore, bari gutunganya ikawa, bifashishije indobo ndetse n'ibibidobido baciye, bagashyiramo intoboro. bafite kandi ibiyunguruzo.

Umuntu uhagaze hagati y'ibigori bitarera bikiri bito, biteye ku guso bunini, hagati muri uwo murima harimo igiti, hakurya y'umurima hari ishyamba.

Ikawa ziri ku giti, ntabwo zirera neza ariko zitangiye guhishira. Imbere y'igiti cy'ikawa hari inzu. Iyo kawa kandi irazamutse hafi y'insina.

Abagore babiri bari gusoroma icyayi ahantu mu kibaya, inyuma yabo hari ibiti ndetse hari n'imisozi.

Ikawa z'icyatsi zitarera ziri mu murima ziri ku biti byazo .Hari kandi n'ikawa zeze zigasarurwa ndetse zigatunganywa zakuweho amashishwa.

Umugore, uhagaze, hagati, mu murima w'icyayi. Yitwikiriye igitambaro mu mutwe, yambaye n'udukomo. Hirya ye hari ibiti birebire ndetse n'ibyatsi.

Amapaki arimo ibintu afite amabara atandukanye. Kuri ayo mapaki kandi hashushanyijeho inkoko zirimo insake, inkokokazi ndetse n'imishwi yazo. Bigaragara ko ari imiti y'inkoko.

Umusaza uhagaze afite inkoni mu ntoki ari kuragira inka ahantu hari ubwatsi bugufi kandi hagari, hazitiwe n'uruzitiro rw'ibiti, mu imbere muri urwo ruzitiro kandi hari ibiti byagabye amashami birarandaranda.

Abantu bari mu murima bari guhinga, abandi bari gutera imbuto, inyuma yaho hari ibyatsi, ibiti n'imisozi.

Abantu bahagaze mu murima abagore ndetse n'abagabo, abagabo bafite amasuka hirya yabo hari urutoki.

Abahinzi babiri bavuye guhinga, bafite amasuka ku rutugu, hirya no hakuno ya hari ibyatsi n'ibiti birebire byakuze neza.

Umurima uhinze ahari ikesu bacukuye bashyiramo ifumbire bari guteramo igiti.

Abahinzi bari muri buroke, bari gukata umuceri bifashishije inanjoro, hakurya y'igishanga hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi.

Inka ebyiri z'inyambo zifite amahembe maremare zisa ikigina, ziri kurisha ahantu hari ibyatsi n'ibiti birebire.

Ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, hagati hagiye hateyemo ibiti birebire, hagati y'igiti n'ikindi hagiye harimo intera.

Abahinzi bari mu murima bari kufira, umwe muri bo afite isuka ari kubagara, hirya yabo hari akayira k'itaka kanyurwamo n'abanyamaguru.

Ibigori biri mu murima bitarera biteye kubuso bunini cyane hino yabyo hari ibyatsi. No hirya yabyo hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Ibigori byasaruwe. Birarambitse ku butaka, ndetse ntabwo barabikura ku bishogoshogo byabyo.

Umurima uhinze biragaragara ko ari ahantu hasaruwe ibigori, hari igiti cy'umwumbati ukiri muto ushishe umeze neza.

Karoti imineke, puwavuro, ibigori, tungurusumu, ikawa ndetse na kokombure.

Uruyuzi rwarandayanze rufite ibisusa ruteye kandi ahantu hari ibyatsi bigufi.

Umurima ufite ubuso bunini uteyemo amashu atarera, hagati muri yo hagiye harimo ibiti biteye ariko bifite intera hagati yabyo.

Umugabo uhagaze mu murima uhinze ahantu hasaruwe ibigori, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, afite umuhoro mu ntoki. Muri uwo murima hateyemo insina nke.

Insina ziri imbere y'inzu, imwe muri zo ifite igitoki, inzu ifite umuryango umwe, n'amadiri abiri, isize irangi ry'ubururu ndetse yubakishije umucanga muto.

Uruboga rwa dodo ruteye mu murima, rwarakuze rurazamuka, munsi yarwo hari ibyatsi by'inteja biruzengurutse.

Imifuka iteretse irimo ibijumba yose iruzuye; impande yayo hari wicaye uri kuyicungira umutekano.

Ibigori, amaronji, amatunda, amatasi arimo ibyo kunywa by'amabara atandukanye, ndetse n'icupa rihagazeho ibintu bimeze nk' ubuki.

Ibitsibo bibiri by'ibisheke, ibyari byeze byarasaruwe hasigayeho ibitarera, hirya yabyo hari inzu ndende ifite ibara ry'ubururu.

Imisingi ibiri y'inkwi baciyemo ingeri, bashinzeho ibiti ku ruhande byo gushyigikira izo kwi kugira ngo zidahirima, hari kandi n'ibyatsi.

Ishyamba ririmo ibyatsi byinshi n'igiti gifite amashami yakondagaye, hirya y'igiti hari ihene ziri kurisha eshatu z'amabara atandukanye.

Ishyamba rifite ibiti birebire n'ibigufi ndetse n'ibyatsi bito cyane. Hari kandi inyubako ndende ziri hagati y'iryo shyamba.

Ishyamba ririmo abagabo bafite inkoni, harimo n'abashinzwe umutekano abasirikare, iri shyamba kandi ririmo ibiti birebire.

Ishyamba ,ririmo ubwoko bw'ibiti butandukanye. Harimo ibirabaraba, inturusu ndetse n'ibindi. Ni rinini kandi rirazitanye.

Insina nyinshi zicitse, inyuma yazo, hari ishyamba rinini, ririmo ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye.

Abantu bari kugenda mu muhanda, harimo abagabo n'abagore, hirya yabo no hino hari ishyamba rirerire ririmo ibyatsi bigufi.

Abagore bari mu murima bafite indobo mu ntoki, umwe muri bo akikiye umwana ari kumwonsa, hirya yabo hari ibiti birebire.

Abantu bari gukusanya umusaruro w'inyanya. Bari kuzivana ku mifuka, bazishyira mu dutete. Inyuma yabo hari abagabo bafashe ku biti. Bakikijwe kandi n'ibiti n'ibyatsi.

Inyubako irimo ubwoko bwindabo butandukanye, ni ngufi zose zirareshya, zifite amabara yi'cyatsi, umutuku, umuhondo, umweru, iroza, hagati muri zo kandi hagiye hashimo ibiti bifashe ihema rizitwikiriye.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye ishati y'ibara ry'ubururu ndetse n'amaherena, ari gukora isuku mu busitani. Ubwo busitani burimo amabara menshi y'indabo ndetse n'ubwoko butandukanye bwazo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa uri guseka ateruye base irimo amatunda, hirya ye hari abandi bantu bahagaze ndetse hari n'ibiti by'amatunda.

Abantu bahagaze mu murima w'amashu, ni abagore babiri n'umugabo umwe bafashe amashu mu ntoki, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abantu bahagaze. Bari kuhira, imyaka, mu materasi y'indinganire, bifashishije imashini zabugenewe. Hari kandi n'ibyatsi n'ibiti hafi yabo.

Imbuto ziteye mu murima, ziteye ku murongo zifite amabara y'icyatsi, hagati muri zo harimo imiyoboro y'amazi yifashishwa mu gihe cy'impeshyi kugira ngo zitabura amazi zikeneye.

Umuntu uhagaze mu murima urimo imbuto, ari kuzuhira yifashishije rozwari hirya ye hari inzu ifite umuryango umwe n'idirishya, igiti kirekire munsi yacyo haparitsemo imodoka.

Imbuto ziteye ku murongo, ni mu gihe k'imppeshyi hari imashini ziri kwifashishwa mu kuzuhira kugira ngo zibone amazi, hari kandi ibiti birebire by'inganzamarumbo.

Umugabo uhagaze mu murima urimo imbuto, afite imashini ari yuhira, hirya ye hari igiti kinini cy'inganzamarumbo ndetse inyuma ye hari ibyatsi.

Imyaka iteye ku buso bunini, hagati muri yo harimo imashini yifashishwa mu kuhira mu gihe k'impeshyi kugira ngo imyaka ikomeze ibeho neza kubera ko nta mvura iba ihari.

Imashini zifashishwa mu kuhira zifite imiyoboro myinshi ijyana amazi ku bihingwa, kuri ibyo bihingwa kandi hariho imbuto birasa n'ibyatangiye kwera.

Imbuto ziteye mu murima ku buso bunini, hagati yazo hagiye harimo inzira zifashishwa mu gihe cyo gusarura, harimo kandi imashini igeza amazi kuri izo mbuto.

Ibiti biteye ku murongo, hagati yabyo harimo ibyatsi bigufi ndetse harimo n'akayira k'abanyamaguru gato, hirya ku musozi hari amazu menshi ndetse n'ibyatsi n'ibiti.

Amaterasi y'indinganire arimo, arimo ibyatsi hari n'ahahinze, hirya yayo hari ibiti, hari n'amazu make ndetse n'imisozi.

Imisozi iriho ibyatsi bisa icyatsi kibisi ndetse n'ibindi bijya gusa nk'umuhondo, hagati y'iyo misozi hari ibibaya, hari n'ibara ry'ikirere.

Amazi asa neza y'urubogobogo, akikijwe n'udusozi turiho ibyatsi by'amoko atandukanye ndetse n'igiti kirekire cyakuze cyane.

Ishyamba ririmo ibiti by'amoko menshi atandukanye, n'ibyatsi bigufi, hari n'imisozi miremire nayo iriho ibyatsi.

Ikiraro kirimo inkoko, harimo isake n'inkokokazi, imwe muri zo ihagaze hejuru y'indobo harimo kandi n'ibikoresho zinyweramo amazi.

Imbata zifite amabara atandukanye, hari izisa umukara n'umweru, hari izisa umweru gusa ,hirya yazo hari ikiraro kirimo inka.

Ikiraro kirimo inkoko, harimo isake n'inkokokazi, ziri mu kiraro gikingishije urugi rufite ibara ry'umutuku wijimye, mo imbere harimo ibikoresho zifashisha ziywa amazi ndetse zirya.

Inka iri mu kiraro, ifite ihera ry'umuhondo ku gutwi, ifite amabara abiri, iry'umweru ndetse n'ikigina.

Umuntu wambaye umwenda w'icyatsi ahagaze mu ifamu y'inkoko, ateruye inkoko mu ntoki zirimo isake n'inkoko. ruguru kandi hari ibikoresho byifashishwa mu guha inkoko amazi harimo n'amatara ndetse n'igisenge cyubakishije ibiti bikomeye.

Inkwavu ziri mu kiraro, zifite amabara atandukanye; umukara, umweru ndetse n'ikigina zimwe ziri hejuru, izindi ziri munsi.

Ifamu y'inka yubatse kijyambere, yubakishije inkingi z'ibyuma kandi irasakaye neza, hari inka nyinshi, ku mpande ebyiri ziteganye, zifite ibyo kurya, ziri kurya zose.

Ikiraro kirimo inkoko nto nyinshi, harimo ameza, harimo kandi n'ibikoresho byifashishwa mu kuziha amazi ndetse no kuzigaburira.

Ibibwana bitatu, biri mu kiraro, byose byambaye amaherena ku gutwi, byahuje umunwa aho birira, ikiraro cyabyo cyubakishije ibiti bikomeye ndetse kiriho na beto.

Ikiraro cy'inkoko, zirimo isake n'inkokoka harimo mu inzu ibikoresho byifashishwa mu kuziha amazi yo kunywa ndetse n'aho zirira.

Umuntu uhagaze mu ifamu y'inkoko yubatse ku buryo bwa kijyambere, harimo inkoko nyinshi ndetse n'amagi zatereye, igisenge cy'iyo nyubako cyubakishije ibiti bikomeye.

Ibiganza bitanu bifashe umuceri mu ntoki udatonoye, munsi yabyo hariho intara iriho umuceri mwinshi.

Soya, ibihwagari, ibishyimbo by'umutuku, ibishyimbo by'umweru, umuceri, ibishyimbo by'ikigina n'amashaza.

Umuntu ukikiye intara iriho imbuto z'ubwoko butandukanye harimo: inzuzi, ibishyimbo ndetse n'ibihwagari.

Inka iri mu rupangu, inyuma yarwo hahagaze umuvuzi w'amatungo, yambaye isarubeti y'ubururu ndetse yambaye ishashi ku kuboko.

Abagabo babiri bahagaze inyuma y'urupango, ni ahantu hari inka nyinshi bigaragara ko ari inyambo kuko zifite amahembe maremare kandi ateze neza, inyuma y'abo bantu hari ibyatsi bigufi.

Umuntu uhagaze wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'udufungatoki tw'umweru, yambaye ingofero y'ubururu isa n'agapfukamunwa yambaye.

Umuntu w'umugore wambaye itaburi y'umweru, n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunze, ari gutondeka utubido tw'umweru, twarindwi, inyuma ye hari ibindi bikoresho by'ubururu, ibumoso bwe hari amabido manini, kandi maremare y'umweru.

Inyamaswa z'inyagasozi ebyiri, zirasa nk'ingurube z'ishyamba, hirya yazo hari igiti kirekire gifite amashami menshi, hari kandi ibyatsi bigufi bifite ibara rijya gusa umuhondo.

Inyoni yo mu gasozi ihagaze hejuru y'ibyatsi byameze ku ibuye, ifite amabara atatu, iry'umukara n'umweru, ifite umunwa w'umuhondo, irimo iritegereza mu ishyamba.

Iyamaswa ihagaze mu byatsi bigufi, imeze nk'inka, ifite umurizo ndetse n'amahembe, hari amabuye abiri, irinini n'irito ari impande yayo, hirya yayo kandi hari ibiti n'ibyatsi, n'izindi nyamaswa zisa nkayo.

Inyamaswa yo mu gasozi iri gutembera mu byatsi, ifite amabara abiri iry'ikigina ny'umukara, ifita n'umurizo hirya yayo hari izindi nyamaswa bihuje ubwoko.

Inyamaswa zo mu gasozi zimeze nk'inka zifite n'amahembe ariko si izo mu ngo ntabwo zororwa. Ziri mu ishyamba, ziri kurisha. Hari ibyatsi bigufi ndetse n'igiti cy'inganzamarumbo kinini.